Isashi igaragara nk'aho iri mu bwoko bw'umufuka, ipakiyemo ifumbire y'umukara urazinze hejuru uruzuye, ariko hejuru ukaba uzingazinze uteretse mu byatsi bigaragara nk'aho byumye, ndetse harimo n'ibindi bibisi. Ifumbire isa n'umukara cyane, ndetse ikaba igaragara nk'aho igiye kumishwa mu murima.

Umufuka ufite ibara ry'umweru, wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse n'inyuguti ebyiri ziri mui ibara ry'umutuku. Hariho imibare, ndetse n'ikirango cy'umuhondo hasi. Uteretse ahantu bigaragara ko ushobora kuba urimo ibintu byuzuye neza.

Umugabo uri gutera umuti imbuto yahinze ku murongo, hagati y'umurongo nundi harimo umwanya, agenda anyuramo kugira ngo abone uko atera umuti neza, yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu gutera umuti yambaye ipombo mu mu gongo ndetse n'ingofero.

Umurima uhinzemo ibiribwa bitandukanye bizwi nk'imboga, harimo ibiti bitatu birebire, ndetse hakaba harimo n'umugabo uri gutera umuti, ahetse ipombo, yambaye agapfukamunwa ndetse yambaye n'imyenda isa n'umukara.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, bigaragara nk'aho ari umuceri. Hirya y'aho hakaba hari ibiti biteye ku murongo, harimo abagabo baje gutera imiti bambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo, ndetse bahetse n'amapombo mu mugongo, afite ibara ry'umweru. Ndetse apfundikije n'imifuniko y'umuhondo bakaba bari kwinjira mu murima bigaragara nk'aho bagiye gutangira gutera imiti.

Uducupa dufite amabara y'umweru, twanditseho amagambo patiriyake, ndetse twari dufite n'ibara ry'icyatsi. Ku mpande dufite imifuniko ipfundikiye, turagerekeranyije. Tumwe turegeranye, turimo umuti wo gutera mu bihingwa ndetse no ku matungo.

Udufi dukaririye neza, bigaragara nk'aho turi kugurishwa, tuba turi ku isoko. Dupakiye ku meza, ndetse munsi ya ho hari shitingi, hirya hari umugabo, ikiganza cy'umugabo, ndetse n'iigikarito, agatebo ku ruhande, biragaragara nk'aho amafi yenda kujya kuribwa.

Amafi bigaragara nkaho ahiye, bayakaririye ndetse bayaciyemo ibice, bayarambika ahantu heza habugenewe, bigaragara nkaho yaba agiye kwifashishwa mu kurya.

Ifi ebyiri ziteretse ku isahani, iyo sahani iteretse ku meza kandi iruhande rw'izo fi, hari teyi eshatu iruhande rw'ifi imwe hari ibice bibiri by'indimu, ndetse hari na.

Amafi atatu bigaragara nkaho avuye kurobwa mu mazi. Ateretse mu kibase gifite utubara tw'umweru ndetse n'utw'ubururu ku mpande. Aragaragara nkaho adakaririye, ndetse ateretse icyo kibase giteretse ahantu hari ibintu by'umukara.

Amafi abiri akaririye. Aho iruhande rwa yo hari insenda ndetse n'indimu zibabuyeho hejuru. Iruhande rwa yo na none hari igitunguru cya tungurusumu. Hirya hari ibirungo, ndetse ateretse no ku meza, ahantu hafite isuku.

Isambaza ziri mu dukarito twabugenewe zitondetse ku murongo, zirasa nk'umukara ziri mw'ibara ry'umukara, ndetse utwo dukarito turi mu mabara atandukanye, ziregeranye cyane ku buryo zitashobora gutandukana.

Isambaza zicucitse ari nyinshi mu mabase abiri atandukanye. Zimwe ziri mu ibase imwe ntoya, izindi ziri mu ibase imwe y'ubururu nini. Kandi zikaba aribwo zikiva mu mazi, zimeze neza.

Udufi dutoya tuzwi nk'isambaza baroba mu kiyaga, tukaba turundanyije, twegeranye cyane, ahantu hamwe, ndetse tukaba turi ku meza, ahantu hafite isuku, turagaragara nk'aho tugeze igihe cyo kugurishwa.

Isambaza ziri mu dukarito twabugenewe, ndetse zikaba zegeranye. Biragaragara nk'aho zidakuze cyane, kandi hirya y'azo hari izindi. Zose ziri mu tu ntuze tw'ubururu. Hirya hari utuntu tuzigendamo tw'umutuku.

Abarobyi bane bari mu mazi ndetse bafite n'ubwato bifashisha mu kuroba. Ubwato burimo shitingi ndetse n'ikibasi, umugabo umwe arikubukurura abwegereza ku nkombe z'ikiyaga.

Udutete tugaragara nkaho turimo amafi y'ibihonda, turegeranye kandi dusa n'umweru, amafi afite ibara ry'umukara, kandi hirya yaho hari akandi gatete nako karimo andi mafi.

Amafi ari muri supanete aregeranye cyane afite ibara ry'umukara ndetse munsi hakaba harimo n'amafi afite ibara ry'umweru. Biragaragara nkaho ashobora kuba ari isambaza ariko hakaba harimo n'utundi dufi tunini tugaragara nkaho dukuze, ari muri supanete isa n'umukara.

Umurima uhinzemo ibigori bigaragara nk'aho byeze. Bifite ibiti byabaye byumye. Ndetse haragaragara ko harimo n'abantu babiri bari gusarura, hirya yaho hari ibindi bigaragara nk'aho byumye hasi, ndetse hejuru bifite ibibabi bibisi. Iruhande rwabyo hari ibiti.

Amajeri ari mu murima hagati y'uwo murima harimo n'ibirayi bihinze bivanze n'ayo majeri, hirya y'uwo murima hari igihuru gicucitse cyane, inyuma y'icyo gihuru nacyo hari inzu ikikijwe n'ibiti ku ru mpande birebire.

Umurima urimo ihene eshatu zigaragara nk'aho zishobora kuba ziri kona, harimo imyaka harimo umugende uhagazemo ihene, na zo zisa n'umukara ndetse hari n'indi ifite utubara tw'umweru mu gahanga hiryazo hari ibigori bigaragara nk'aho byumye ndetse n'ibiti.

Ibyatsi birandaranda byegeranye, hejuru yabyo hacamo urutsinga rw'amashanyarazi rusa n'umukara, ndetse hasi hahinze indabyo zizwi nk'izo mu rugo, biregeranye cyane ku buryo udashobora kubitandukanya ngo bikunde.

Icyatsi kimera mu gishanga kizwi nk'igorogonzo gifite indabo hejuru kikaba gifite amababi y'icyatsi maremare gihinze hagati y'ibindi byatsi by'ubwoko butandukanye na byo byenda gusa na cyo.

Umurima usasiwe n'ibyatsi byumye harimo igiti gifite amababi y'icyatsi, hakaba harimo n'abantu bari guhinga cyangwa kurima, batatu bafite amasuka bose.

Umurima uteyemo ibyatsi by'ubwoko butandukanye, bigaragara ko harimo umuceri, ndetse n'ibindi. Harimo ibyatsi byumye hirya, bigaragara nk'aho byabaye umuhondo, ndetse n'ibikiri bitoto.

Umurima urimo ibiti byatemwe，bimwe babishyize hasi， hirya yabyo hari ibiti birebire bizamutse cyane， hagati，hari igiti cy'umusave ndetse n'iruhande rwabyo，hari inturusu hagati yabyo harimo umuhanda...

Umurima urimo urutoki rushanguruye rumeze neza, imbere y'urwo rutoki hari inzu yasenyutse, muri uwo murima harimo igiti kirambitsemo, hirya y'urutoki hari ibigori byumye.

Umurima uteyemo igiti cy'imbuto, ndetse hasi ya ho iruhande rwa ho hakaba hahinze, harameze ibyatsi birandaranda bizwi nk'urwiri, itaka rya wo rigaragara nk'aho ryakubiswe n'izuba, rirakomeye cyane, ryarisataguye, ndetse hakaba hari n'utwatsi tugaragara nk'aho twumye hasi.

Imitabo ihinzemo ibirayi, ikaba hagati y'umutabo n'undi harimo umugende, hahinzemo amateke ndetse hirya y'aho harimo, hariho n'ibiti biteye, ndetse n'ibindi byatsi bigaragara nk'aho byumye, biri mu murima munini.

Umurima ugaragara nk'aho uciyemo imitabo hameze nk'aho basaruyemo ibigori, hamezemo ibyatsi by'ubwoko butandukanye hirya yawo hari ibiti birebire byahameze, ndetse n'ibindi bigufi biragaraga nk'aho hari inzu iruhande rw'ibyo biti hirya.

Umurima uhinzemo insina .Ndetse n'igiti cya avoka .Hari kugaragara amakoma abiri ndetse n'amababi ya avoka .Harimo imbuto muri icyo giti cy'avoka .Ndetse bigaragara ko hari n'izuba ririkukivaho.

Umurima uhinzemo ibiribwa bitandukanye, harimo: ibirayi, amateke y'amabwasi, ndetse hakaba harimo n'ibiti by'ibigori byumye banze gusarura. Harimo n'ibyatsi byagiye bimera iruhande rw'ibirayi, hirya yaho hari ibiti by'inturusu bihagaze ndetse n'ibindi byegeranye cyane bigaragara nkaho bikiri bitoto.

Ibyatsi by'urubingo bihinze ku matarasi bivanze n'ibiti, hari ibiti birebire bibiri, ndetse hirya yabyo hakaba hari n'ibindi bigaragara nk'aho bitarakura neza biragaragara nk'aho bitarakubitwa n'izuba. Bimeze neza ndetse nubwo bwatsi bumeze neza, harimo ibindi biti bigufi cyane bihinze hagati y'ubwatsi.

Imbuto z'amapera ziri m giti cyazo cyabugenewe, ni imbuto eyne, eshatu ziregeranye, indi imwe iri ku ruhande, igiti gihagaze inyuma yacyo hari ikindi bijya gusa ariko.

Urubuto ruzwi nka voka rwifashishwa mu kurya, rurambitse ku meza, rufite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse ruraciye, ruragaragara nk'aho hari itara riri kurumurikaho.

Inkoko enye z'amabara atandukanye, harimo iy'umweru, niz'umutuku. Zigaragara nkaho zifite ibirokoko, ni inkokokazi. Ziri mu mu busitani bufite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umurima uhinzemo umuceri harimo umuhinzi uri kubagarira uwo muceri ndetse akaba yunamye afite isuka, inyuma ye hari amazi muri uwo muceri kandi hari undi muceri uhinze mu gice cy'inyuma ye hakurya ye hari umusozi.

Umugabo wambaye ikote ririmo amabara y'umweru n'umutuku n'icyatsi, arasutamye, yambaye bote ari muri pepiniyeri, aho ari gutora utwanda hagati y'ibiti by'imyembe, bigaragara nkaho bitohagiye ndetse akaba ari no gukemuraho utubabi.

Umurima urimo abantu batandukanye bafite amasuka ku ntugu zabo, bayobowe n'umumama na we afite isuka inyuma ye hari Gatabazi. Inyuma ye na we hari inzego z'umutekano harimo ingabo na daso.

Umurima uhinzwemo inanasi ,zigaragara nk'a zitarera ,harimo ababyeyi barimo kubagara ,ndetse hakaba hari harimo n'ibyatsi bitandukanye muri uwo murima.

Umubyeyi bigaragara nk'aho avuye mu murima, uhinzwemo inanasi inyuma ye hari umugabo wambaye umupira w'umweru, urimo uturongo tw'umukara yambaye n'isaha ,ndetse ikindi uwo mubyeyi yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umutuku, afite inanasi mu kiganza ndetse arishimye cyane.

Umurima urimo abahinzi, bari guhinga ari bane harimo: abagabo babiri n'abagore babiri, inyuma yabo harimo isina bari guhinga, bameze nk'abari gutabira ndetse buri wese afite isuka, imbere yabo hari ibyatsi byinshi hirya yabo hari igiti kirekire.

Umurima wahinzwemo imyumbati n'ibigori, bigaragara ko imyumbati itarera, ndetse ikaba harimo ibindi byatsi bisa nk'aho bisasiye iyo imyumbati byumye biri hasi. Hafite igitaka cy'umukara, kigaragara nkaho aricyo cyera.

Abaturage bateranye, aho baje gufata imbuto z'ibiti byo gutera by'imbuto, barabitwara mu mu mabase bitwaje amabase hari abazanye n'amakayi yo kwandikamo, buri muntu wese urajya utwara igiti. Ni benshi baregeranye, inyuma yabo hari ibiraro ndetse no hirya yabo hari ibindi biraro.

Imifuka ipakiyemo ibirayi iregeranye irarundanyije, iruzuye neza cyane irasokeye no hejuru, hirya yayo hari umugabo wicaye ku mufuka umwe w'igice yambaye agapira k'umukara ndetse na boti, inyuma ye hari undi mugabo uhagaze, hirya yabo hari akazu kubatse k'igice gasa nk'aho gasakaye kubakishije ibiti.

Umurima uhinzemo ibifenesi. Hari abantu babiri bari kureba ko byeze. Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi, abantu bambaye imipira y'icyatsi, umubyeyi yambaye igitambaro mu mutwe, akipfutse mu mutwe. Ndetse umugabo na we ari kureba ko ibifenesi byeze.

Imbuto zongera amaraso umuntu, zikaba zikungahaye ku izina ry'ibinyomoro. bisa n'umutuku, birarundanyije cyane biregeranye, ku buryo harimo ibihiye cyane. Harimo n'ibijya gu gusa n'icyatsi kibisi, bigaragara nkaho biteze. Birenda kujyanwa ku isoko uko bigaragara.

Ibiguri by'amateke biribwa, bikasemo uduce dutatu hariho n'ibindi bibiri bidakase, biribwa mu buryo butandukanye ,aho bamwe babigereka ku bishyimbo, abandi bakabiteka babitogosheje.

Imboga zizwi nk'intoryi zikungahaye ku ntungamubiri, ziri mu ibase zirarundanyije cyane, ziracucitse, harimo izatangiye gusa n'umuhondo, harimo rumwe rwatukuye cyane, ndetse harimo n'izindi zitangiye guhindura isura.

Umubyeyi uri gupakira itaka mu bihoho biterwamo imbuto cyangwa ibiti by'ubwoko butandukanye, ari gukoresha itaka ry'umukara ari kurirunda neza muri pepeniniyeri, yambaye umupira w'icyatsi. Yiteze n'gitambaro m umutwe.

Umukobwa uri gutera igiti mu murima, inyuma ye hakaba hari abandi bagenzi biwe bahagaze. Bakenye imipira mu mayunguyungu, ndetse hari n'umubyeyi uhagaze iruhande rwe. Bahagaze mu murima urimo utwatsi tugiye dutandukanye. Aradefirije.

Umugabo uri mu kiraro bafite. Ari gukoresha imashini ikata ubwatsi bw'amatungo, ikiraro cyubakishijwe imbaho, ndetse ahagaze hagati y'imashini, ari kuyatsa yambaye akagofero k'ubururu, k'icyatsi ndetse n'iruhande rwe uwambaye akagofero k'ubururu.

Imboga zo kurya zizwi nka pavuro zikaba zitarera, zifite ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse n'igiti ziteyeho cyikaba gifite amababi afite utudomo ndetse asa n'icyatsi. Hariho imbuto zigaragara nk'aho zitarera neza.

Umurima uhagazemo umugabo bigaragara ko ahetse ipombo, yaje gutera umuti ibihingwa, yambaye ikoti rifite ingofero ndetse n' ipantaro ahetse ipombo isa n' umuhondo ndetse hirya y' umurima ari guteramo harimo (hariho) ibiti.

Ibitunguru bya puwaro biziritse mu byiciro, bikaba bigerekeraniije birundanyije ahantu hamwe, bifite imizi irimo ibitaka biragaragara nk'aho ari bwo bavuye kubirandura, ni bitatu bitatu birapanze neza bifite ibara ry'icyatsi kibisi ku bibabi, ndetse n'umweru hasi ku mizi.

Imboga zifashishwa mu guteka, zirundanyije hamwe, zifite ibara ry'icyatsi kibisi ku buryo zidashobora kuba zanatandukana, ndetse zikaba zinari mu kantu kamwe, zibumbiye hamwe, ku buryo zidashobora gutandukana.

Umugabo ufite imyembe myinshi cyane, igaragara nkaho ihiye isa n'umuhondo, yaje kuyicuruza ndetse ayifite hariyo afite mu kiganza yegeranye neza, yambaye umupira w'ubururu ndetse.

Imifuka y'ibirayi ipakiye neza cyane harimo ibirayi byuzuye kandi hirya y'iyo mifuka hari ibihingwa bisa n'icyatsi kibisi hagati y'ibyo bihingwa hari n'ibiti bibiri kimwe cya gereveriya.

Voca isatuye, igaragara nk'aho itarera neza, ariko ifite ikibuto mo imbere, ni nyinshi ziregeranye, harimo imwe isatuye, ndetse igisate cya yo ntikiriri hafi aho. Izindi ziri iruhande rwa yo biragaragara nkaho zirunze ahantu hamwe. Zimezezwe nk'izigiye gucuruzwa.

Umurima uhinzemo ibiribwa bitandukanye, harimo umubyeyi wishingikirije isuka, yipfutse igitambaro cy'umweru, yambaye ishati ya karokaro; irimo amabara y'umweru n'umukara, akaba akenyeye n'igitenge. Inyuma ye hari undi ndetse hahinzemo n'urutoki.

Umubyeyi uri kwanika imyumbati y'imivunde, imbere ye hari abantu bahagaze ku magare ndetse hari uwambaye isengeri y'umutuku n'ingofero, hakaba hari n'umwana uhagaze hirya y'igare. Imyumbati ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'igitare ndetse n'iry'ikigina, iri kwanikwa hasi.

Imbuto y'ubunyobwa igaragara nk'aho burundanyije ahantu hamwe. Nta bwo butoranyije neza, hari ubushishutse ndetse n'ubugaragara nk'aho butameze neza. Burasa n'umutuku cyane. Ubwo bugaragara nk'aho bwaje kugurishwa. buregeranye, burarundanyije.

Umurima uteyemo ibihaza bigaragara nkaho bitarazaho biregeranye, biracucitse bifite amababi manini, iruhande rwabyo hari ibyatsi birandaranda, bigaragara nkaho ari bitoya ndetse no hirya yaho hari ibindi biti.

Umurima urimo abantu batatu bahetse ibikoresho byifashishwa mu gutera umuti aho baje gutera umuti ibigori bihinzwe muri uwo murima .Imbere y'abantu babiri hari umuntu umwe uri kubafotora, hirya yabo hari n'undi uri kureba ku ruhande yambaye n'agapfukamunwa.

Inyanya zifashishwa mu guteka ibiryo ndetse zikaba zisa n'umutuku zihiye cyane, zikaba ziri ku giti cyazo akaba ari enye ziteretse ahantu heza hitaruye.

Umurima w'ibirayi bari gukura byeze, ababyeyi batandukanye bari gukura barunda mu byiciro. Ni ababyeyi benshi bari kurandura ibirayi, ndetse bakanabirunda ku mpande zitandukanye hagati y'imitabo.

Ibitunguru bitatu bifite ibara ry'umutuku. Birarundanyije ku kameza ahantu hamwe . Kimwe gifite umuzi munsi ikindi kirateretse neza, ikindi gisa nk'aho gihengamye giteretse ahantu hasa n'umweru, bigaragara nk'aho bifite isuku wagira ngo bigiye kuribwa.

Imboga zo kurya zipakiye mu mufuka neza cyane, zegeranye ku buryo zidashobora kugwa hasi, bazipanze neza, zisa n'umutuku, ndetse zikaba zitwa karoti, bazifashisha bari guteka ibiryo.

Abahinzi bari gukorera inyanya neza, inyanya zihinze mu mifuka zikaba ziri muri Girini hawuze, kandi hakaba harimo abantu batandukanye benshi, bamwe bari kubagara, abandi bari gutera, bamwe bari kumanika imishipure muri girini hawuze, kugira ngo inyanya zizabone uko zitembereraho cyangwa se zereraho.

Ibirayi bipakiye neza mu mifuka isa n'umweru, hirya yabo hari abantu babiri hari umwe uri kugenda n'undi uri kuza, hakaba hari ibirayi biri hasi hategerejwe gupangwa mu mifuka nayo iri hasi, hari umufuka utaruzura ndetse hirya y'aho hari n'ibindi biti bihate....

Umurima uteyemo imyumbati yo kurya, ifite isombe hejuru yayo, harimo n'ibindi byatsi birimo by'ubwoko butandukanye, byegeranye ndetse udashobora kuba wanatandukanya.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo abahinzi bari kubagara bambaye imyenda y'imyeru hejuru abenshi, ndetse harimo n'abandi bahagaze bari kubagara ku mpande ndetse bakaba benshi cyane bunamye bakeya ni bo bahagaze.

Umurima uhinzwemo ibiti by'imbuto nk'imyembe bigaragara nk'aho itarera neza, ariko igiti gifite imbuto nyinshi. Hari umuhanda uri kugendwamo n'abanyeshuri bambaye iniforume y'umukara n'umweru baherekejwe na mwarimu wabo.

Isoko ricururizwamo ibirayi by'ubwoko butandukanye, birarundanyije cyane, ndetse harimo n'abantu bagiye bagaragara nk'aho baje kubicuruza, harimo umunzani usa n'ubururu, ndetse n'aka n'utumeza bigiye biteretseho.

Imiteja irunze ahantu hamwe heza hasa n'umweru, iregeranye ndetse iragaragara nkaho yeze ikaba igiye gukoreshwa mu buryo bwo guteka, isa n'icyatsi kibisi ndetse ikaba ifite n'udukondo inyuma.

Umurima uhinzemo ibiti by'imbuto zizwi nk'indimu, zeze zegeranye ku buryo utashobora no kuzitandukanya, ziri mu byiciro bitandukanye hari iz'icyatsi ndetse n'iz'umuhondo, bigaragara ko zatukuye cyane kurusha izindi.

Ibase irunzemo amapera menshi, afite ibibabi biragaragara ko ashobora kuba yeze, hirya yayo hari indi base y'ubururu, nayo irimo amapera yose arundanye mu ibase, biragaragara nk'aho yasaruwe, akaba agiye kujyanwa ku isoko.

Umubyeyi uhagaze ku muhanda inyuma ye hari ibiti kandi akaba afite telefone mu ntoki, afite n'itara rikoreshwa umuriro uturuka ku mirasire y'izuba ndetse iyo telefone ikaba icagize kuri iryo tara. Yambaye ishati y'umukara ndetse akaba yishimye ari guseka.

Umuhinzi uri gusarura inyanya zihinzwe mu buryo bwabugenewe bwa girini hawusi, harimo izihiye ndetse n'izitarashya. Bigaragare ko zitarera. Izeze zisa n'umutuku, iziteze zisa nk'icyatsi. Umuhinzi ari gusarura, bigaragara ko agiye kuzijyana ku isoko.

Amatunda agaragara nkaho atarera neza, yagiye arandaranda ku duti ndetse hariho imbuto nyinshi. Aragaragara nk' amanitse hejuru agendera ku duti duteye ari mu murima, hasi yawo hari utundi twatsi dutandukanye.

Umurima uri guhingwamo n'abahinzi batandukanye, benshi bambaye imyenda itandukanye harimo umutuku n'umweru, ndetse n'umuhondo, abagabo bambaye bote bari guhinga mu byiciro, aho hari bamwe bari mu itarasi rimwe abandi bakaba mu rikurikiraho ndetse n'abandi, harimo ibyatsi bibisi byatandukanyije umurima n'ubundi, bose bafite amasuka.

Urubuto ruzwi nk'ipera rya kizungu ruciyemo ibice bibiri, ndetse hari n'izindi mbuto ebyiri ziteretse ku meza zisa n'icyatsi kibisi, ndetse ziragaragara nkaho zitarera neza.

Imbuto zo kurya zizwi nk'amaronji ziragaragara nk'izegeranye cyane zirarundanyije harimo izifite amabara y'umuhondo ,ndetse n'izifite amabara y'icyatsi kibisi , avangiye ndetse zikaba ziri ahantu hamwe harundanye ntacyo zaba.

Amavoka ari ku meza, bigaragara nkaho ari gutuburwa n'abakobwa bambaye amataburiya, n'utugofero mu mutwe. Bari kureba uko bayapakira mu bikarito, bakayarunda ahantu hamwe. Bari mu nzu irimo itara riri kwaka, ndetse hirya yabo hari akamashini gafite akabara k'umutuku.

Umugabo w'umusaza, ari mu murima wubatswemo ikiraro, hari ibiti biri hasi, yambaye ingofero, amarinete, ndetse n'umupira wumukara. Yambaye isaha mu kuboko, ari kwerekana uko umurima we umeze.

Umurima uhinzwemo imboga z'amashu. Harimo abahinzi bigaragara nk'aho baje kubagara. Ari mu ibara ry'icyatsi yose. Inyuma yayo hari ibiti bihinze ndetse n'insina. Biragaragara ko hari ababyeyi bahetse abana ndetse n'abandi badahetse. Harimo n'umupapa umwe wunamye.

Umurima uciyemo amaterasi y'indinganire, ndetse hakaba harimo n'abahinzi bari guhinga. Harimo umudamu n'umugabo wunamye urigukwikira isuka, hakaba harimo n'abandi bantu benshi batandukanye. Hepfo yaho harimo n'ibiti ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Imbuto, imbuto y'amajeri igaragara nk'aho yumye. Arundanyijwe mu kantu kamwe, ndetse biragaragara ko wagira ngo arumye. Harimo agati gatambitsemo, iruhande rwayo hari umufuka. Amwe ari hejuru ku mufuka andi ari hasi.

Amabuye ari afite ibara ry'umukara arundanyije iruhande rw'umurima ndetse ku nkengero zuwo murima hakaba hahinze ibiti bimeze nk'imiko. Umurima ukaba uhinzemo imitabo hirya yaho hari igiti cy'inturusu kirekire kizamutse cyane, hakaba harimo iruhande rwaho hari utwatsi twegeranye turimo amabuye.

Umusaruro w'ibigori bigaragara nkaho bivovoye, bimanitse ku biti birumye biregeranye cyane, ku buryo nta mwanya uri hagati y'ikigori n'ikindi, inyuma yabyo hari ibyatsi.

Imbuto ya soya yo gutera igaragara nkaho yameruye, yamereye aho bayirunze. Iregeranye cyane, ndetse yazanye ururabo rw'umweru ku kajisho kayo. ifite ibara ry'icyatsi.

Ubuhunikiro bw'ibigori, harimo ibigori byinshi bimanitsemo. Hejuru harasakaye, bubakishije ibiti ndetse n'ibigori bigiye biziritse ku mbariro zigiye zitandukanye. Igice cyo hasi gisa n'umutuku ndetse harimo n'ibigori byumye kandi bivovoye.

Ibishyimbo by'ikivuzo ari gupimira mu ngemeri ,ndetse bikaba birunze kuri shitingi ,hirya yabyo hari ibisa n'umutuku bya shyushya, hari agatambaro k'ubururu ndetse n'ikiganza cy'uri gupima ibyo bishyimbo.

Imbuto iri kugosorerwa ku nkoko ,aho hari umumama uri kuyigosora, ndetse iruhande rw'iwe hari umugabo ufite amatsiko, ari kureba uko uwo mubyeyi ari gukosora. Inyuma y'uwo mugabo hari igishushanyo kiriho inka ,ndetse n'urukuta hejuru yarwo hariho indabyo.

Ibihingwa bigaragara nk'aho byameruye, biragaragara nk'aho bishobora kuba ari ingano cyangwa ibigori. Birundanyije ahantu hamwe byazanye, byarameruye ndetse bikaba bitegerejwe kujyanwa mu murima . Harimo ibifite ibara ry'umutuku, ndetse n'ibindi bijya gusa n'umweru. Ni ingano bigaragara.

Imbuto yo gutera igaragara nk'ibishyimbo iteguwe ku nkoko ikaba iri ku meza iruhande rwayo hari akabogisi karimo imbuto zo kurya, ndetse n'impapuro zifashishwa nk'iz'isuku.

Isoko ricuruza ibishyimbo by'ubwoko butandukanye, aho hari umufuka w'ibishyimbo wuzuye cyane, ndetse n'imifuka y'ibirayi. Hari ibirayi biri mu mufuka by'igice ndetse hari n'abantu baje kugura. Abaguzi hari umugore wicaye mu muryango, ndetse n'umuzani umanitse ku rugi, hari n'inzu irimo indobo.

Umufuka urimo ibishyimbo bituzuye neza. Usa n'umweru ufite indodo imbere. Harimo inyuguti ebyiri za k na t. Birimo nta bwo byuzuye. biragaragara nk'aho atari byinshi cyane, kuko bifite n'ibara ry'umutuku bizwi nka shyushya.

Umubyeyi uri kwanika ibishyimbo, ari ku bitunda mu kibase akabyanika kuri shitingi, yambaye umupira w'umuhondo, inyuma ye hari inzu yubakishije ibyatsi izwi nka nyakatsi, hirya y'iyo nzu hari ikiraro gisakaje amabati, hari n'ibiti iruhande rwabo, hari intebe inyuma y'uwo mubyeyi, ndetse iyo ntebe iriho n'igikapu cy'umukara.

Umurima uhinzwemo ibigori. Ni munini cyane, biragaragara ko uruhande rumwe ruri kurasirwamo izuba. Biracyari bitoto, birabagariye neza, hirya yabyo hari agahuru kameze nk'aho gafite uduti twegeranye cyane.

Imifuka ipakiyemo ibiribwa, nk'ibishyimbo bya shyushya ndetse n'ibindi by'ubwoko butandukanye, irapakiye irazinze hejuru bigaragara nk'aho ituzuye neza, hakaba hari n'indi ku ruhande rwayo.

Umurima wari uhinzwemo ubunyobwa, bukaba buri gusarurwa ndetse bari kubusarurira mu mabasi har'ibase bari gushyiramo, hari umugabo wicaye urigosogora ubunyobwa, hari ibishishwa by'ubunyobwa cyangwa ibyatsi byifashishwa, aho bivaho ubunyobwa birambitse hasi mu murima.

Umugabo uparitse igare mu muhanda ripakiyeho ibishyimbo byeze avuye gusarura. Igare rifite umuhoro mu mahembe, ndetse yaziritsemo n'ikote mu mahembe. Arihagaze iruhande, yambaye inkweto zifunguye. Hirya yiwe hari insina zihateye ndetse n'urugo rwubakishijwe ibyondo. Hari ibyatsi kuri uwo umuhanda ya paritseho igare.

Ibigori bigaragara ko byameruye, bigaragara nk'ibigiye guhingwa, birunze ku iparato. Umuntu uri kubyerekana, afite ikiganza gitukura cyane.

Ingano ziteretse hasi, hiryazo hari izindi zirunze, ndetse iruhande rwazo hari imifuka ipanze cyane, myinshi cyane, yegeranye. Hirya hari inzu, inyubako yubatse neza ndetse hari udufuka tw'umweru turi iruhande rwazo hari iziralambuye ,iziri hasi zitarapakirwa mu mufuka.

Ibigori by'imbuto byasaruwe bigaragara nk'aho byumye. Bimwe biravovoye ibindi biragaragara nk'aho bitavovoye. Bimanitse mu biti hejuru birundanyije ahantu hamwe, biragaragara nk'aho ari byinshi cyane. Hari ibiti bishinze by'umukara, biziritseho ibyo bi.....

Umurima uhinzwemo soya ziri ku murongo ndetse zikaba ziri hagati yumurongo n'undi harimo umwanya, hari amabuye ari kuri buri soya aho ziteye ndetse zikaba zifite ibibabi by'icyatsi, hirya yazo hari ibindi bihingwa bihahinze.

Umurima uhinzemo ibigori, harimo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, biragaragara nk'ibyeze kuko birumye, hahagazemo umubyeyi uvuye gusarura ubunyobwa, ndetse yambaye n'ishapure mu ijosi, akaba arimo guseka, yiteze igitambaro mu mutwe.

Ibishyimbo bishingiriwe byazamutse ku mishingirizo bigaheza k'urugoyi, ndetse iruhande rwabyo hari ubusitani hirya hari ibiti byegeranye bigaragara nk' ari ibihuru.

Iduka ririmo imifuka ipanze neza cyane, harimo umuceri, harimo umubyeyi uri kwerekana umuceri, ndetse afite harimo imifuka y'ubwoko butandukanye, udufuka dutoya ndetse n'imifuka minini ifite amabara agiye atandukanye, yipfutse igitambaro mu mutwe cy'umukara, yambaye umupira w'umweru, ndetse akenyeye n'igitenge cy'umutuku.

Ibishyimbo bizwi nka shyushya, byera neza, birambitse ku meza, ntabwo byegeranye cyane, ariko biragaragara ko bifite amabara y'umutuku, ndetse hakaba harimo n'ibifite amabara, ajya gusa nk'aho byumye.

Abahinzi b'imboga n'imbuto bigaragara ko bari muri grinihawuzi, bari gutera ndetse imbuto zabo ziteye mu mitabu, bambaye imyenda yabugenewe amajire ndetse n'amataburiya, bambaye n'ingofero hejuru igaragara nk'aho bari.....

Umugabo ari mu murima, afite umufuka upakiyemo ibyo ari gusarura, biragaragara nkaho ashobora kuba ari ubunyobwa, ndetse hakaba hahinzemo n'ibindi byatsi by'ubwoko butandukanye, inyuma ye hari ibiti by'ibigorigori birimo, ndetse yambaye n'ingofero n'agapira k'icyatsi.

Imodoka iri gupakira imifuka, ndetse n'imbere mu modoka hakaba harimo umugabo wicayemo, hasi hari uri kwandika ibyo bari gutunda bashiramo, ndetse ikaba iparitse ku muhanda w'igitaka, hari abantu bahagaze iruhande rwayo, ndetse bamwe bambaye n'ingofero, hari umuhungu uyikozeho, abandi bahagaze kuruhande rw'umuhanda hari n'ibyatsi.

Ingano zanitse kuri shitingi, ndetse hakaba hari n'izindi bashyize mu mufuka. Nta bwo bawujuje neza, bawuhinnye hejuru. Ndetse biragaragara nk'aho zumye.

Inka igaragara nk'aho irwaye ni iya kizungu ariko iri gususumira, iri ahantu hagaragara nk'aho ari mu nzu, hirya yayo hari giriyaje z'ibyuma, ndetse n'iruhande rwayo hari indi ifite amabara y'ikigina, ndetse n'ay'umweru hasi ku maguru.

Ikiraro kirimo inka zegeranye cyane zicucitse, zisa nk'aho zigiye kubangurizwa cyangwa zigiye guterwa intanga, hirya yazo hari abantu bashobora kuba ari bo bazizanye, ndetse icyo kiraro kiriho imbariro zegeranye, kuko kugira ngo izo nka zitaza kubona aho zabasha no kunyura zitorotse.

Umworozi w'ihene w'umugore biragaragara ko yateruye agahene, ihene z'ubwoko butandukanye harimo iz'umweru, iz'igitare ,iz'ikigina ndetse n'iz'umukara biragaragara ko yishimye cyane, ziri mu kiraro ndetse harimo n'ihene za kizungu zifite amatwi amanuye n'amahembe.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bwiza gikenyeje imbaho, ndetse harimo inka ifite amabara y'umukara n'umweru, hari umubyeyi uri kuyiha ubwatsi, mu nsi ye hari umufuka ari gukuramo ubwo bwatsi, hirya hubatse inzu y'urugo rw'imiyenzi.

Abagabo bambaye amasarubeti asa n'icyatsi , umwe afite agacupa inyuma mu mufuka, biragaragara nk'aho ari abaveterineri . Hagati yabo hari umubyeyi uhagaze, hagati bahagaze iruhande rw'ikiraro, hakurya yabo hari umugabo nawe wambaye ishati y'ubururu , ikiraro gisakaje amabati cy'ubakishije ibiti, biragaragara nk'aho gipavomye kirimo amatungo.

Ibiraro byubatswe neza birimo ingurube, hari umworozi wambaye igisurubeti n'agapfukamunwa, ndetse afite naga zabugenewe. Ari gukora bigaragara ko ari gukora amasuku muri ibyo biraro. Byubakishije ibiti bigaragara nk'aho byumye.

Amatungo azwi nk'inkoko agezweho yororerwa mu rugo, ni inkoko esheshatu zirimo gutora harimo inkoko y'umukara, iy'umweru n'iz'umutuku ndetse zikaba ziri gushakisha ibyo kurya.

Ikiraro cy'ingurube kigaragara nk'aho gipavomye. Hano zihagaze naho zinywera amazi. Ingurube enye zigaragara nk'aho ari iza kinyarwanda. Ikiraro cyubakishije ibiti by'imbaho ndetse kikaba..

Inkoko iri gutora hasi ifite amabara y'ikigina, ifite ibirokoroko. Ari ni inkokokazi ifite ibirokoroko by'umutuku. iri kugenda imbere munsi yayo hari ibyatsi bigaragara nk'aho byumye cyangwa se biboze.

Ihene n'intama eshatu. Ihene ni imwe, zose ziri mu kiraro kimwe. Bigaragara ko harimo ibyatsi, ndetse zigaragara nk'izikonje zose, zasuherewe. Ziri mu kiraro cyubakishije ibiti byegeranye bifite imbariro. Bigaragara nk'aho ntaho yabona yamenera.

inka ziri kugenda mu muhanda, zishorewe n'abagabo babiri, aho iruhande rw'abo bagabo hari abandi bagabo babiri, bicaye mu rugo urugo rufite inzu zisakaje amategura imbere yabo hari abantu bari kugendera mu muhanda, harimo abari gusunika igare, hirya yabo hari icyapa ndetse hateye n'indabyo zizwi nka pasparume.

Inyamaswa ntoya izwi nk'imbeba yitwa urujango. Ikunze kugaragara mu ishyamba cyangwa mu ngo z'abantu hamwe na hamwe. Ikaba ihagaze ku maguru atatu, kamwe yakazamuye. Ifite amabara atandukanye ndetse iri kureba imbere yayo.

Inyamaswa y'agasozi iri mu ishyamba. Izwi nk'ingagi ifite amatwi iri kureba imbere yayo iragaragara nk'aho irakaye. Iruhande rwayo hari utwatsi ndetse, n'uduti dufite amababi y'icyatsi kibisi. Iri kwitegereza imbere yayo cyane, sinzi icyo yaba iri kureba.

Icyana cy'imbata kiri koga mu mazi ndetse kikaba kigaragara nk'aho gikonje, gifite umunwa muremure ndetse n'amabara y'ikigondo , gifite amababa manini y'umukara avangiyemo n'andi mabara. umutwe urigunze cyane ndetse gifite n'amaso ajya gusa n'umuhondo.

Akanyoni gahagaze mu murima, gafite amabara atandukanye y'umweru, n'umunwa muremure. Utuguru dutoya, n'ikiririzo kinini, gahagaze mu byatsi bitohagiye, ndetse kakaba kari kwitegereza imbere yako.

Umugabo ufashe akanyamaswa kameze nk'imbeba, gafite amajanja, ndetse kakaba gafite n'umunwa muremure, kagaragara nk'imbeba. Gafite inzara ndende, ndetse yagafashe ku mutwe.

Inyoni ije kugaburira icyana cyayo ndetse ikaba yaragishyize mu giti mo imbere. Yapfumuye igiti aba ariho yarika, ndetse ikaba ikizaniye n'ibiryo. Yabishyize ibitwaye mu kanwa kayo, aho igiye gutamika umwana wayo. Ifite amabara y'umutuku mutwe ndetse n'ay'umuhondo ku murizo.

Imbata ifite amabara atandukanye, harimo ay'ikigondo ifite umunwa muremure, ndetse bigaragara ko iri kugenda mu byatsi bya pasuparume, bigufi bisa nk'aho bikupakubye, inyuma yayo hari kugaragara nk'aho hari kuva izuba.

Inyamaswa izi izwi nk'inzoka isa n'umukara abenshi bakunda kwita inshira, ikaba yizingiye mu murima aho umutwe yawushyize hejuru ifite amaso y'umukara ndetse yasohoye na karimi.

Inyoni ifite isunzu ry'umutuku, ifite umunwa muremure n'imirizo miremire, isa n'umukara, ifite n'utubara tw'umweru ku kumutwe. Yuriye igiti igaragara nk'aho iri kukidondagura. Igiti gifiteho ibintu byakimezeho bisa n'icyatsi kibisi, ndetse ikaba isa nk'aho iri kuzamuka.

Inyamaswa y'ishyamba iri kugendera ku giti cy'umugano. Izwi nk'inkende cyangwa inkima mu magambo make . Iri ikugendera mu biti byabugenewe by'imigano kandi bizifasha kuba zabirya.

Inyoni yitwa igikona ifite amabara y'umukara n'umweru, isa nkaho iri kugenda mu muhanda iri gutora udusimba, hirya yayo hari ibiti ndetse n'amabuye iruhande rw'umuhanda.

Inyamaswa yo ku gasozi izwi nk'ingagi. Bigaragara ko iryamye mu byatsi cyangwa mu biti bisa n'icyatsi kibisi. Inyuma yayo hari ibirebire, ndetse aho iri ni ibyatsi bigufi cyane.

Inyamaswa yo mu rugo izwi ku izina rya dendo ifite umutwe urimo amabara y'umweru ndetse ifite n'amabara y'ikigondo ku mugongo ndetse no ku mababa. Ifite ibirokoroko ndetse n'umunwa ujya gusa usa n'umutuku.

Inyamaswa y'agasozi ifite ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'umweru, munsi y'umunwa ikaba ifite ururizo rurerure, ndetse iri mu murima. Hirya yayo hari ibiti bigaragara nk'aho ari imihati irimo ibibabi byumye, ndetse n'ibitaruma neza, iri mu murima, iri kugenda biragaragara ko iri kureba ku ruhande.

Ingagi igaragara nkaho iri kureba imbere yayo ariko iraryamye mu byatsi .Hari ibyatsi bigaragara nkaho bitari bibisi cyane, iruhande rwayo hari igiti irikwitegereza.

Inyamaswa y'ishyamba izwi nk'urusamagwe, aho ihagaze mu byatsi ifite amatwi ahagaze n'amaso abiri, ifite ururizo runini ndetse n'amaguru ane, ifite amabara atandukanye ku mugongo n'umukara hasi igasa n'ikigina.

Inyamaswa izwi nk'ingurube y'ishyamba, izwiho cyane nko kwirukanka cyane, igira umuvuduko udasanzwe ifite umunwa umeze nk'uw'ingurube, ni ebyiri ziri mu byatsi byumye imwe ipfukamishije amaguru y'imbere, indi iri gutambuka, hirya yazo hari amabuye ndetse n'uduti tugaragara nk'aho harimo imyanya itandukanye yumye.

Ingagi iryamye mu giti yasinziriye, igaragara nkaho iri kureba hejuru, ifite ugutwi ndetse n'intoki, amaguru yagerekeranije amaguru ku yandi, ikaba iri iri kureba hejuru, iruhande rwayo hari ibibabi bigaragara nkaho bitaruma neza, irasinziriye iratuje cyane.